Amashuri ni amazu abanyeshuri bigiramo, kandi amashuri arakenerwa muri rusange, kuko amashuri ni inkingi y'amajyambere, abana bose bagomba kwiga kuko Leta yarabyoroheje, hariho uburezi budaheza, bivuga ngo umwana uko yaba angana kose n'uko yaba ari kose agomba kujya kwiga.

Amashuri y' ubumenyingiro y' igisha imyuga itandukanye habagamo, imyuga yo kudoda habagamo , imyuga yo gukanika habagamo, imyuga yo kubaza, mbese habagamo imyuga myinshi zitandukanye kandi usanga abavuye muri ayo mashuri bafite ubumenyi buhagije ku isoko ry' umurimo.

Ikoranabuhanga ni uburyo bwo gufasha abanyeshuri mu ishuri, bakiga ikoranabuhanga kugira ngo mu minsi yabo y'imbere bazashobore kwiteza imbere, ndetse bashobore no kwihangira imirimo, kuko akazi ntabwo ari aka leta gusa cyangwa se ibindi, bagomba no kwihangira imirimo bakuye mu byo bize mu mashuri y'ikoranabuhanga.

Abantu bapima ibijyanye n'ubutaka baba bafite ibikoresho byabuhariwe bifashisha mu gupima ubutaka ndetse bene'abo bantu bakora n'imihanda, nabwo bifashishije ibyo byuma kuko babanza gupima, iyo rero bari gukina usanga bari kumenya ubutumburuke bw'ibyo bari gukora uko bungana.

Abadozi ni abantu badoda, imyenda iyo ari yo yose, badoda imyenda y'abagabo, bakadoda n'imyenda y'abagore ndetse badoda n'imyenda y'abana batoya, usanga abadozi ari abantu bakunzwe cyane, kuko bambika abantu bose b'ingeri zose, bambika abanyeshuri, bambika abantu benshi. Abadozi ni umwuga mwiza cyane, ugeza umuntu ku iterambere rirambye.

Amahugurwa akorwa mu bantu babifitiye ubushake, kandi bakabahugura ku kintu kijyanye n'ibyabateza imbere, ari mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse no mu bikorwa byatuma bagira aho bivana bakagira ndetse n'aho bigeza. Amahugurwa ni ingenzi kuko akura abantu mu bwigunge ndetse no mu bukene, akagira aho abageza.

Amashuri y'ubumenyi ngiro n'amashuri bigisha imyuga, bigisha ibintu byinshi bijyanye n'ubukorikori ndetse n'ubugeni ku buryo abana bayarangijemo baba bashobora kwiteza imbere m'ubuzima bwabo bw'ejo hazaza.

Mu mashuri y'ubumenyi ngiro bigiramo imyuga myinshi. Habamo imyuga yo kubaza, ndetse bigiramo n'imyuga y'ubukorikori butandukanye. Babaza ibikoresho byinshi, babaza ibitanda, babaza imivure, babaza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ndetse n'imitako.

Abakanishi bakanika ibintu bitandukanye. Bakanika amagare, bakanika moto, ndetse bakanika amamodoka, bakanika amateleviziyo, bakanika ibintu byinshi, kandi ubukanishi babwiga mu mashuri y'ubumenyingiro atandukanye.

Icyarahani ni imashini bifashisha bari kudoda, zidoda imyenda y'ingeri zose. Zidoda imipira, zidodaga amapantaro y'abagabo, zidoda amakanzu y'abagore, zidoda imyenda y'abanyeshuri, zidoda imyenda y'ingeri zose, kandi ugasanga abazambaye baraberewe.

Amashuri y'ubumenyingiro ni amashuri afitiye urubyiruko rw'u Rwanda akamaro kanini cyane, cyane cyane ko iyo umwana arangije muri ayo mamashuri y'ubumenyingiro abasha kwihangira imirimo, ndetse agashobora gutegura neza ejo he hazaza.

Abanyeshuri iyo bari mu ishuri usanga bakurikiye mwarimu. Buri mwana wese aba ashishikajwe no gutega amatwi ibyo mwarimu we ari kumwigisha, kandi aho agize ikibazo kugira ngo afate neza isomo rye arabaza.

Amasomo ku bugeni ni amasomo akenewe cyane mu mashuri. Hari amashuri abanza ndetse n'ay'incuke kuko bitangira kare icyo umwana azabacyo ukimenya kare akiri muri nasari, akiri mu mashuri y'ikiburamwaka y'inshuke. Usanga umwana icyo azaba cyo kimugaragaraho.

Mu mashuri y'ubutabire habamo amalaboratwari kandi muri ayo malaboratwari habamo ibikoresho byinshi bitandukanye. Habamo imiti, habamo ibyo bororeramo amamikorobe usanga harimo ibintu byinshi bitandukanye abanyeshuri bajya kwihuguriramo kugira ngo bazabashe guhagarara neza ku isoko ry'umurimo barangije kwiga.

Amashuri y'ubumenyingiro ni amashuri yigisha imyuga, bigisha ikoranabuhanga ndetse abanyeshuri bayarangijemo usanga ku isoko ry'umurimo ari abahanga cyane, kandi bashobora kwihangira imirimo izabatunga mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Amashuri y'ubumenyi ngiro, ni amashuri bigisha imyuga habamo imyuga itandukanye bigamo ubudozi, bigamo ububaji, bigamo ubukanishi, bigamo imyuga myinshi yabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, kandi abana bize muri aya mashuri basohoka....